Inyubako ndende isakaje amabati yirabura, amatafari arahiye, amadirishya n'ibirahuri, iruhande rw'inyubako harimo ubusitani burimo ibyatsi by'umukara hakabumo n'ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Inyubako nini cyane iherereye mujyi wa Kigali igeretse inshuro eshanu, hejuru hari umunara uzana amarezo, si umunara muremure nk'ibisanzwe, ahubwo ni akanara gatoya kagaragaza ko munsi harimo amateleviziyo ndetse n'ibindi byuma bikoresha ikoranabuhanga ariko bikenera rezo.